Umuntu wikoreye ijerekani, n'umwana uri iruhande rwiwe wambaye agashati k'ubururu urimo uramureba, arimo aragenda asa nk'uwegera imbere, bisa nkaho avuye kuvoma amazi.

Abana bafite ibikombe, bamwe bafite ibikombe by'ubururu, abandi bafite iby'icyatsi, bari kuvoma amazi, ku kigega gisa umukara, gihagaze ku giti, abana bari kunywa amazi.

Abana b'abanyeshuri barimo barakaba ibiganza byabo, bose bahagaze ku ikarabiro bisa nkaho bari gukora amasuku ku ntoki zabo nkuko babigisha kugira isuku ndetse yaba ku mubiri ndetse n'ibijyanye no kurya.

Umwana wambaye agapira k'umutuku, urimo arakaraba intoki wasetse kandi wahindukiye ubona ko yishimye, bisa nkaho agiye gufata amafunguro kuko arimo arakaraba yishimye.

Abantu benshi bahagaze bambaye amapantaro abandi bambaye amakanzu, harimo abapapa n'abamama n'abakobwa, umupapa umwe wambaye ishati y'umweru n'urukweto rw'umweru bahagaze ku isima y'umutuku, inyuma yabo hari inzu isize irangi ry'umuhondo.

Umusaza wambaye agapfukamunwa, wambaye n'agapira k'umuhondo, uri guterwa urushinge na muganga na we wambaye agapfukamunwa n'agapira k'umweru bisa nkaho uwo mugabo yaje kwivuza.

Abamama babiri bari kumwe n'abana batatu, umumama umwe urimo uroza umwana, umwana wicaye mu ibase barimo baramwoza amazi bayamushyize mu mutwe, abandi bana babiri bahagaze bari kuvoma ari kumwe n'undi mumama umwe.

Umumama uhagaze wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku, umweruru ndetse n'umukara, wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'agapfukamunwa, uri kumwe n'akana kiwe, bahagaze imbere y'amamama babiri, umwe yambaye ikoti ry'umukara, undi yambaye itaburiya y'ubururu.

Abagabo babiri bahagaze bambaye udupfukamunwa, ku meza hateretse mashini, undi mupapa na we yicaye ku ruhande wambaye itaburiya y'umweru n'umumama uhagaze iruhande wambaye agapfukamunwa k'ubururu, intebe zisa ubururu nizo bari bicayeho.

Abana benshi batonze umurongo, bamwe bari gukaraba, abandi bagihagaze, bagitegereje ko abandi basoza, nabo bagagara, bisa nk'aho hari igikorwa bagiyemo, kibafasha gukaraba, kuko gukaraba ari ukugira ngo ugire isuku ku ntoki zawe.

Abantu benshi bambaye ingofero z'umweru ndetse n'iz'ubururu, bafite icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishije turandura kanseri y'inkondo y'umura, bisa nkaho bari gushishikariza abantu kwisuzumisha.

Abana n'abamama bicaye ku ntebe bari gukurikira amasomo, abamama bamwe bambaye imyenda irimo ubururu, umweru undi mupapa nawe yambaye ipantaro y'umukara, ishati irimo amabara y'umweru n'umutuku, undi mugabo afite ikaramu n'ikaye.

Abantu benshi bahagaze abandi bicaye bambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye imyenda y'umukara, ubururu n'umweruru ndetse n'umuhondo bahagaze bari gufata amafoto.

Abana babiri bishimye, umwe ufite igikombe, arimo arakarabya mugenzi wiwe, bambaye udupira tw'umutuku, bisa nkaho bari gukaraba kugira ngo bafate amafunguro.

Umumama wambaye igitambaro gisa ubururu, wambaye igitenge gisa icyatsi, urimo uravoma ijerekani kandi ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye bisa icyatsi uhagaze ku ivomera.

Abantu benshi bahagaze ku ivomero ry'amazi, ubona ko bategereje amazi, umumama umwe ni we urimo uravoma, umwana wiwe, umwana wambaye akasengeri k'umutuku, n'umumama wambaye agapira k'icyatsi.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ishati yumweru na karuvati y'umutuku, uri kumwe nabandi babiri bagabo babiri n'abamama batatu umwe umumama umwe w'umuzungu begereye ibendera ry'igihugu.

Umuntu wambaye umupira wumutuku, yari kumwe na muganga, muganga yambaye taburiya, yambaye umupira wimbeho, yambaye akantu ko mumutwe k'umukara ari kumwe n'abandi babiri undi muntu yambaye igitenge.

Abana bane bishimye, bari gukaraba intoki, umugabo umwe ni we urimo urabakarabya intoki, bakaba bari gukaraba amazi meza, bisa nkaho bagiye gufata amafunguro kandi gukaraba intoki mbere yo kurya ni byiza, bituma urya ibintu bifite isuku kandi nawe akaba ufite isuku.

Abana benshi bicaye hasi bari kumwe n'abantu bakuru, harimo umuzungu umwe ndetse n'abandi bapapa n'abamama, bari kugira inama aba bana ku bintu bigiye bitandukanye, bicaye hasi ku mikeka.

Abamama n'abasore bambaye amataburiya asa ubururu na bambaye ibitenge hasi bafite amakayi bari gusoma bisa nkaho baje kwihugura ku bintu runaka baba bakora cyangwa se baba bategura gukora.

Umwana wambaye agapira k'umuhondo wambaye ikabutura arimo aravoma amazi, hirya hari umu mama umukikije n'undi mwana uwo mwana w'undi nawe arimo aravoma amazi ku rindi vomero riri hirya.

Umwana barimo baramuvura, muganga uri kumuvura yambaye umupira w'umweru, yambaye baji, yambaye ga, mama w'umwana yambaye ishati, afite n'igikapu, ahetse n'undi mwana, umwana yambaye ishati irimo umweru, ubururu n'umutuku.

Inzu nziza irimo abantu benshi, bagiye batandukanye, baturutse ku ngeri zigiye zitandukanye, harimo abapapa, abamama, abana, abakobwa ndetse n'abasore, bafite amakayi, ubona ko bicaye, bari gutegera ibintu bari kubabwira.

Umwana arimo araterura indobo irimo amazi bisa nk'aho yari amaze kuvoma amazi kuko aha ari ni ku ivomero ry'amazi, iruhande rw'iwe hahagaze umugabo wambaye imyenda y'ubururu n'urukweto rurimo umweru.

Abana benshi bahagaze aho bavomera amazi bafite indobo zisa umuhondo bambaye imyenda isa nk'aho baje gufata amazi yo gukoresha mu rugo ibintu bigiye bitandukanye.

Umugore n'umusore bari mu kibaya barimo baravoma amazi, umugore aravomesha injerekani, wambaye imyenda y'umuhondo kandi n'umusore wambaye imyenda y'umuhondo arimo koza igare ryiwe.

Umugabo wicaye hasi wambaye ikabutura, wambaye n'isengeri, usa nabi bapfunyikiye mu gipine, ufite ubwanwa bwinshi n'umusatsi mwinshi, bamwicaje hasi.

Umugabo ufite imisatsi myinshi ufite n'ubwanwa bwahindutse umweru, wambaye imyenda yamucikiyeho ubona ko rwose afite ikibazo kijyanye no mu mutwe cyangwa afite ikindi kibazo cyabimuteye kuba asa nabi.

Inzu nziza isize irange, ifite inzugi zisize irange ry'umweru. Ifite amakaro, ifite ibiti biteye hanze ndetse kandi ikaba ifite na jaride nziza uko bigaragara ni urugo rwiza.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zigiye zitandukanye, abandi bahagaze bari gufata amafoto, abagabo bamwe bambaye amakoti, abandi bambaye imipira irimo umuhondo, umweru, umukara n'abamama bambaye imyenda irimo umweru, umukara n'umuhondo bicaye ku ntebe abandi na bo bahagaze.

Umugore wa Perezida w'igihugu cy'u Rwanda, Jeannette Kagame wambaye amanete imbere y'iwe hari mikoro ebyiri bisa nk'aho arimo aratanga ijambo ku bintu bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bahagaze, harimo abakobwa, abasore ndetse n'umupapa wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara na karuvati, bisa nkaho bahagaze barimo barafata amafoto.

Agapira kakozwe neza k'amaboko magufi karimo amabara atandukanye, harimo amabara y'umweru ibara ry'ubururu ku maboko ndetse no kwikora hari ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo agiye atandukanye.

Abana benshi bishimye, bari kureba ibintu bigiye bitandukanye kuko nkuko bigaragara barishimye cyane, barimo baraseka, abana bamwe bagiye bambaye imyenda igiye itandukanye harimo umweru, amabara y'umutuku ay'umuhondo, ay'icyatsi n'andi manshi agiye atandukanye.

Umugabo wicaye hasi wambaye inkweto, wambaye ipantaro, wambaye numupira bisa nkaho arimo arareba kuruhande ubona ko yicaye hasi ntakintu arimo arakora.

Umupapa n'umumama, umumama usa nkaho ari kwiyandikisha, umugabo nawe ufite imashini iri imbere, arimo arandikiramo uyu mama, ku meza hateretse icupa ry'amazi...

Umumama w'umukecuru wambaye amaherena, wambaye n'akandi kantu mu ijosi, wambaye n'igitambaro mu mutwe, ushaje arimo araseka areba imbere yiwe, hirya yiwe hari ibiti bihateye.

Abantu benshi bahuriye ahantu mu nzu, bisa nkaho bari mu nama, umumama umwe ubayoboye yambaye ikanzu y'umweru n'agakoti k'umukara, abandi bari muri terefone, undi mugabo yambaye ishati y'ubururu.

Abakobwa babiri, umwe wambaye imyenda y'umukara hose, n'undi wambaye imyenda y'umutuku, umwe wifashe ku itamo bisa nk'aho yihebye, undi na we arimo aramugira inama amuhumuriza, uwo wihebye yambaye ingofero nziza cyane.

Umukobwa mwiza ufite amenyo y'umweru ufite ishinya y'umutuku, ufite akadodo mu menyo asa nk'aho ari gukurura, ufite amatwi ndetse n'umusatsi w'umukara bana humirije.

Umuhungu w'inzobe wambaye ubusa hejuru, ufite akantu mu menyo, urimo urireba mu kirahure, urimo uranaseka ubona ko yishimye, kuko arimo arireba mu kirahure birasa nk'aho yishimye cyane.

Inzu irimo ibyuma bigiye bitandukanye nkuko bigaragara, aha ni kwa muganga aho basuzumiraga abarwayi bafite indwara zigiye zitandukanye. Ni inzu yubatse neza mu mabara meza, harimo umweru ndetse n'umuhondo mukeya.

Umwana wasamye ufite umuntu urimo uramukora mu menyo, bisa nkaho yagiye kwivuza kwa muganga, akaba afite ikibazo cy'amenyo, akaba yagiye kureba muganga akaba yakimukemurira, urabona ko afite amenyo meza cyane.

Mama n'umwana bafite imisatsi y'umukara bishimye bari guseka, bafite uburoso bw'amenyo mu biganza byabo, bisa nkaho bagiye gusukura amenyo yabo ndetse kandi bambaye n'uduseri tw'umweru.

Imuganga urimo urita ku murwayi, wambaye itaburiya y'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa, yambaye nta ga z'umweru, urimo urita ku murwayi bisa nkaho umurwayi arwaye amenyo.

Umusore w'inzobe urimo urisukura mu menyo, afata akantu agenda akoza amenyo abana muryinyo rimwe ashyira mu rindi bisa nk'uyu musore.

Umuganga ufite akuma mu matwi urimo urapima umumama w'umukecuru uri mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutabasha kugenda, wambaye amaherena urimo guseka, ndetse n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu.

Abagabo babiri b'inzobe bishimye biyogoshesheje nta musatsi bafite, bambaye amashati y'umweru ndetse n'agatiriningi k'umukara, undi na we ni umukara, irimo umweru, bafite uducupa tw'amazi bari kwirukanka bisa nkaho bari muri siporo.

Abantu benshi bari mu murima barimo barasarura ikawa bishimye, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo ubururu, umutuku, umweru n'umukara wishimye bari mu murima.

Abamama babiri umumama umwe wambaye ikoti n'umupira w'umweru ufite igikapu mu mugongo n'ikindi mu ntoki undi mumama nawe ufite akuma arimo aragenderaho kamufasha kugenda wambaye n'ingofero.

Umugabo w'umusaza, uryamye ku gitanda, muganga amuhagaze iruhande, bisa nk'aho arimo aramuvura n'ibyuma bimukikije byo kwa muganga, bipima abarwayi ibibazo bigiye bitandukanye bafite.

Umurwayi uri kwa muganga, ufasha akuma ari kugenderaho, urwaye ahagaze mu bitaro mu cyumba cyo kwa muganga, yafashe ku kuma arimo aragenderaho.

Abapapa n'abamama n'abana bicaye mu ntebe barimo baraseka, umumama yambaye ipantaro y'umuhondo, undi mu mama yambaye ishati y'umuhondo baricaye bari kuganira bari guseka bishimye bose.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara miremire, urimo uragorora umukecuru ufite imisatsi y'imvi isa umweru, urimo uramugorora mu maboko ubona ko uyu mukecuru yishimye cyane.

Abagabo bambaye ingofero zigiye zitandukanye z'amabara aratandukanye, bicaye ku ntebe hanze, intebe nziza zisa umutuku, bafite inkoni mu ntoki zabo, bisa nk'aho bari kuganira, ibiganiro bigiye bitandukanye.

Umupapa n'umumama, umupapa wicaye ku gitanda, umumama usa nk'aho arimo aramuhagurutsa, umupapa ugeze mu zabukuru, wambaye amarinete, wicaye ku gitanda kirimo amashuka y'umweru na supanete y'umweru.

Umuntu wambaye ishati y'umweru n'umuganga wambaye agapira k'umweru, umumama bari kumutera urushinge ubona ko byamubabaje cyane guterwa urushinge.

Umupapa urimo urasuhuzanya n'umumama, umupapa wambaye ikositimu n'ishati y'umweru umama bari gusuzanya yambaye imyenda y'umweru ndetse kandi yambaye na linete n'abandi bamama babiri babegereye.

Abaganga bambaye imyenda y'ubuvuzi harimo udupfukamunwa, harimo amataburiya, bari gusuzuma umurwayi bisa nkaho bari kumukoza akantu mu kanwa, bisa nkaho bari kumusuzuma icyorezo n'abandi bantu benshi bahagaze iruhande rwayo.

Umugabo urwaye, usa nkaho yagiye kwisuzumisha corona, bari gutera urushinge, ndetse kandi yambaye ubwirinzi bw'agapfukamunwa, ndetse kandi yambaye ishati y'ubururu, umuganga uri kumuvura yambaye ingofero.

Umwana wambaye agapira k'icyatsi urimo uraseka ufite umusatsi w'umukara uri kumwe n'undi mugabo ufite ubwanwa wambaye imyenda y'umweru wa mwana yaje kwifuza.

Abantu benshi, bamwe barahagaze abandi baricaye ku ntebe, bambaye udupfukamunwa, bahagaze ku rugo rusize irangi ry'umuhondo, ku madirishya hasize irangi ry'umweru, bisa nkaho bari mu nama.

Igishushanyo cyiza kiriho ifoto y'agakobwa kambaye akajipo kurimo ubururu n'agasengeri karimo umutuku, iruhande rwiwe hari inyubako nziza ya Kigali, imwe mu nyubako nziza ziri mu Rwanda.

Inyubako irimo abantu benshi bagiye batandukanye bambaye imipira y'umweru, imbere yabo hahagaze umukobwa wambaye ipantaro y'umweru n'agapira k'umutuku n'ikoti ry'umukara urimo uratambutsa ijambo, hakaba hari n'umukobwa uhagaze uri muri kamera.

Inzu irimo utuntu tugiye dutandukanye irimo akameza, irimo agatebe, irimo amarido, isizemo amarangi y'umweru n'umuhondo, ifite n'ibirahure biri hejuru.

Inzu y'ibitaro aho bavurira yubatse neza, inzu ndende ifite ibyuma hejuru no hasi, isize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru yanditseho amagambo yerekana ko ari ibitaro.

Inzu ndende isize amarange y'umuhondo iriho n'amarange y'umweru, hanze y'iyo nzu haparitse amamodoka menshi, bisa nk'aho abantu baje kwivuza kuko hariho n'ibitaro.

Abagabo batandatu bamwe bafite inkoni z'abantutu bafite ubumuga bwo kutareba bambaye ubupfukamunwa harimo n'uyu muganga umwe ufite amakayi, undi mu papa wambaye agapira k'ubururu n'urukweto rw'umukara n'ipantaro y'umukara.

Amazu meza afatanye, hagati harimo ikintu kiyahuza, gisa neza kiri mu mabara meza, gikikijwe n'ubusitani bwiza, buteyemo ibiti bigiye bitandukanye ndetse kandi ayo mazu akaba asize amarangi yiganjemo umuhondo ndetse kandi n'umweru.

Umuganga wambaye agapfukamunwa wambaye itaburiya na ga zisa n'ubururu, ufite agacupa karimo umuti ndetse kandi ukanda ku mashini bigaragara ko arimo arayitunganya.

Umugabo wicaye ku ntebe ufite ubwanwa, ufite umusatsi utari mwinshi wambaye ikoti ry'ubururu, imbere y'iwe ku meza ateretse ama mashini abiri imwe ayikojejeho ibiganza, indi iteretse ku meza arimo arayireberamo.

Inyubako ndende iriho imiryango myinshi, umuryango umwe bisa nk'aho ari umuryango urimo imiti ijyanye no kwivuza. Hanze y'uwo muryango haparitse imodoka bisa nk'aho abo abantu baje kwivuza.

Inzu nziza irimo ibyuma bigiye bitandukanye n'ameza ari mu irangi ry'ubururu, umweru ndetse n'inzugi nziza zisa umweru mwiza cyane n'umumama uhagaze kuri ibyo byuma wambaye mataburiya y'umweru, kubigaragara ni umuzungu.

Inzu nziza yubatswe neza, hanze hahagaze abantu bagiye batandukanye, barimo abagabo n'abagore bambaye imipira y'ubururu, hejuru kuri iyo nzu yanditseho inzu y'ababyeyi, bisa nkaho ariho ababyeyi bahurira.

Inzu irimo umugabo umwe wambaye itaburiya w'umwirabura urimo arakoresha ibyuma bigiye bitandukanye byo kwa muganga, bisa nkaho arimo arabipima areba ko bikora neza.

Inzu nziza iri mu marangi y'umweru meza cyane, harimo ibyuma bigiye bitandukanye birimo icyuma gituma gitanga umuyaga w'ahantu hashyushye ndetse n'ibindi byuma bigiye bitandukanye byo kwa muganga bifashisha.

Ahantu hasa neza cyane bashakira amakuru agiye atandukanye hasize irange ry'umweru, hariho parafo y'umweru, hariho amakaro, ibirahure byiza ndetse n'inzugi zo ku rwego rwo hejuru.

Inzu nziza isize amarange y'umuhondo n'umweru utari mwinshi, iriho ibirahure byiza bigezweho. Hanze yaho hateye ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi byuma biyikikije.

Inzu batangiramo ubuvuzi mu bijyanye no gutanga imiti, iherereye i Kanombe nk'uko bigaragara ku cyapa kiharanga hejuru, kimanitse hejuru y'iyi nzu, ndetse iyi nzu isize amarange meza y'umuhondo ndetse n'umweru.

Inzu iriho umuryango n'idirishya risize irangi ry'umweru hejuru handitse aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, risa naho ari ivuriro.

Inzu ndende isize amarange, iriho icyapa cya farumasi, hanze haparitse amamodoka abiri bisa nk'aho hari abantu baje kwivuza kuri ino farumasi ndetse kandi hariho n'ibirabyo hanze.

Inzu isize amarange y'umuhondo, umweru, yubakishije amatafari hicaye aba mama n'abandi bantu benshi hanze yaho hariho ibirabyo birimo amabara y'umuhondo icyatsi n'ibindi.

Inzu irimo imiti igiye itandukanye yo kwivuza isize irangi ry'umweru harimo amatara abiri ndetse no ku meza hariho imashini y'umukara n'iy'intebe y'umweru biyikikije.

Inzu isize irangi ry'umweru hose, irimo ibyuma bigiye bitandukanye byo kwa muganga, harimo amamashini bapimiraho ubuzima bwa muntu uko butembera, ndetse n'imashini isanzwe yo kureberamo nko kwishyura ibindi bintu bitandukanye.

Imbuto zigiye zitandukanye, harimo imineke, harimo amaronji, harimo inanasi, ndetse kandi biri kumwe n'imidari, n'ibinini n'ibindi byuma bigiye bitandukanye biteretse ku meza.

Abantu babiri bari muri siporo imyitozo ngororamubiri, bafite uducupa tw'amazi, bakikijwe n'imisozi n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza.

Umukobwa uri muri siporo urimo urinanura wambaye isaha nziza wambaye na ekuteri urigukora siporo kandi siporo ni nziza ku buzima bwacu bwa buri munsi, bituma amaraso atembera kandi umubiri wawe ukaguma umeze neza.

Inzu bakoreramo siporo, irimo umugabo wambaye agapira k'umutuku n'undi wambaye ak'umukara, n'undi wambaye agakabutura k'umukara, undi wambaye ipantaro ari gukora siporo yirukanka, ataruka, ava ahantu hamwe ajya ahandi.

Igikapu kirimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, kubijyanye no kuba umuntu yagira ikibazo wenda cyo kuvunika, bakaba bamufasha mu kumupfuka, bakaba bamuha imiti igabanya uburibwe, ndetse n'ibindi.

Inzu isize amarangi y'umweru harimo ibyuma bya siporo, harimo ibyuma nk'icyuma cyo kwirukankiraraho, ibyuma byo guterura, aha ni ho abantu bakoresha siporo kandi siporo nk'uko tubizi nziza ku mubiri wacu bituma umubiri wacu ugenda neza.

Umugabo urimo uranywa amazi, wambaye agapira k'ubururu, ufite ubwanwa, ufite n'agacupa ko kunyweramo amazi, wambaye naga shanete bisa nkaho arimo aranywa amazi aruhuka.

Umusore urimo uranywa amazi wambaye ekuteri, wambaye n'agapira bisa nkaho ari muri siporo, kandi amazi ni meza ku muntu urimo urakora siporo kuko bituma agira ubuzima bwiza kuko siporo nicyo zimaze.

Umukobwa urimo uranywa amazi, wambaye ikuteri mu matwi, ufite umusatsi w'umukara, wambaye isengeri y'ubururu, wambaye ikindi cyuma ku kaboko cyiwe cy'umukara, bisa nkaho ari muri siporo.

Umuntu muri siporo wambaye inkweto z'umutuku, ufite agacupa k'amazi wambaye ekuteri, wambaye akantu gapfuka amabere ndetse kandi wambaye n'agakora gasa umukara.

Umusore ufite akaboko kanini, ufite ubwanwa, uri kunywa amazi wambaye isengeri, uvuye muri siporo arimo araruhuka, uko bigaragara yari arimo araranywa amazi arimo araruhuka.

Umuhungu ufite ubwanwa, uri murimo urimenaho amazi mumaso, wahumirije, bisa nkaho avuye muri siporo, wambaye akantu kaboko gasa ubururu.

Umugabo wambaye ishati irimo umutuku mukeya wicaye ku ntebe, urimo urareba imashini iri imbere y'iwe ndetse hari n'andi mamashini atandukanye ari mu mabara y'umweru meza cyane.

Akaguru k'inzobe kariho imitsi n'ibintu bashushanyijeho bisa ubururu, umutuku ubona ko yavunitse hano hasi mu kaguru gatoya.

Udukapu tubiri turimo imiti y'ibanze yo kwa muganga ikoreshwa kuvura abantu bagize ikibazo bitarindiye kubageza kwa muganga ahubwo bigahita bikorwa ako kanya bikozwe n'umuntu wabitorejwe.

Imbuto nziza harimo inkeri zisa umutuku ndetse kandi n'umukara, hirya hari igikombe cy'amazi ndetse no hino yaho hari igikombe kirimo ji isa umuhondo ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Icyumba ngororamubiri aho akorera muri siporo harimo umukobwa umwe ndetse numugabo wambaye umugabo wambaye t shati yu'umweru ipantaro yumukara nagapfukamunwaumukobwa wambaye agasengeri.

Abantu benshi bahagaze n'abandi bapfukamye, higanjemo abasore n'abahungu, bamwe bapfukamye, bari kureba umusore umwe uryamye hasi aryamye ku kintu gisa ubururu, bisa nkaho umuntu ari kumwitaho.

Umukobwa wicaye mu byatsi, uri muri siporo, imyitozo ngororamubiri, wafashe ku maguru yiwe, bisa nkaho arimo arigorora akora siporo nyinshi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru umugabo umwe aryamye hasi wambaye agakabutura k'umukara n'amasogisi y'umukara bisa nkaho bari kumuvura. Iruhande rw'iwe hateretse baro n'umugaboma urimo aramuvura yambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara n'urukweto rw'umutuku.

Umugabo uri muri siporo wambaye isengeri y'umukara, agakabutura k'umukara, urimo urinanura ananura amaboko, uri mu rugo rwiwe, wicaye ku kantu k'agatapi k'umukara arimo arakoreraho imyitozo ngororamubiri.

Imbuto zigiye zitandukanye ziteretse ku meza harimo imineke, harimo amapome, harimo amaronji, hari n'ibindi byuma biteretse iruhande bifite amabara y'umukara byigeranye.

Umuganga ufite ibyuma bapimisha abarwayi, urifashe ku kaguru k'umuntu mu ivi. Uri kumukanda amuvura, bisa nk'aho uwo muntu yaje kwivuza akaba ari kumwe na muganga.

Ibirabyo by'icyatsi biriho uturabyo tugiye dusa umuhondo biteye hasi, ibi birabyo akenshi byifashishwa mu gutaka ahantu, ibi byatsi kandi bifasha mu bijyanye n'imiti gakondo.

Umugezi muremure uri hagati y'ibiti byinshi, abantu bawuri imbere basa nk'abawegera, bahetse ibikapu ndetse bambaye n'imyenda irimo amabara atandukanye, harimo umutuku, umuhondo ndetse n'umweru.